Ikoranabuhanga rishobora gukoreshwa na buri muturage cyangwa buri umwe wese, yaba arifite muri telefoni yiwe, akaba yabasha kwibikiriza no kubikuza, akamenya uko bigenda ku bwizigame bwiwe.

Ni ikinyabiziga gisize ibara ry'umweru, kirimo kigurishwa amafaranga agera kuri miliyoni icyenda, kikaba kiri mu muhanda, impande hari ibindi binyabiziga by'umweru n'umukara.

Mu Rwanda hagiye hari ibice byubatsemo amazu akorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye byo kuvunja amafaranga no kuyavungisha ariho babikuriza amafaranga.

Zigiye zinyuranye ziri mu gihugu cy'u Rwanda bavunjishirizamo amafaranga y'abanyamahanga ,y'abanyamerika ,abanyakenya bayavunja mu manyarwanda cyangwa utanga amanyakenya baguha amadorari.

Amafaranga y'igihugu cy'Urwanda, inote y'igihumbi iriho ingagi yuriye igiti izamuka, n'inzu ndangamurage umwami w'Urwanda yabayemo, n'akamenyetso karanga umugabo ubyina intore ariho.

Ikusanyirizo ry'amazi atunganywa n'uruganda rukunzwe kwitwa NIL rwemejwe n'igihugu cy'u Rwanda ari rwo RSB rwemeje ko aya mazi yemerewe gucuruzwa mu rwanda harimo ari mu ikarito, ari no mu icupa apfundikiye .

Mu Rwanda hari amakusanyirizo menshi y'amata akenshi akunda gukorera ku mazu y'ubucuruzi aba ari ku mihanda, aho kuba ayo makusananiririza y matasha kuhasanga amata ari mu ngero zitandukanye, ari mu dukombe duto n'ibikombe binini no mu tujerekani dutoya.

Hagiye hari amakusanyirizo menshi agiye atandukanye ariho wasanga amata ku ngano iyo ari yo yose, waba ushaka ijerekani yuzuye cyangwa se igikombe cyuzuye bagufasha bakayaguha.

Mu rwanda hagiye hara inyubako nyinshi cyane zikoremo ibikorwa byo gucuruza amata akenshi aba ari amakusanyirizo y'amata aho baguha ingano y'amata ushaka mu kajerekani gato cyangwa mu gikombe kinini cyangwa igito.

Amakusanyirizo agiye atandukanye y'amata ndetse n'ibikomoka ku mata ushobora kuba wasanga amata agiye atandukanye, ikivuguto inshyushyu ndetse n'ibyo ushobora kuba wabirisha bikoze mu ifarini, ushobora kuba wabisanga ku mihanda igiye ikwegereye.

Uburyo bw'ikoranabuhanga bugezweho muri iyi minsi, n'isi turi kujyamo y'ikoranabuhanga aho babafasha kwishyurakoresheje ikoranabuhanga byihuse kandi byoroheye buri umwe wese ubikoresheje.

Impapuro mpeshabubasha zerekana y'uko icyo gikorwa cy'ubucuruzi ari icyawe kibikwemerera yuko aho hantu ari ahawe bwite, kikanafashishwa mu kwishyura imisoro n'amahoro.

Ni urupapuro mpeshabubasha, rwerekana urutonde rw'uko amafaranga yagiye yinjira, n'andi asohoka uko yakoreshejwe, mu buryo bwose bushoboka.

Uru ni urupapuro mpeshabubasha, urwo umuntu ahabwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro, gifasha umuntu kumenya umubare umuranga, uranga n'aho akorera n'ibikorwa bye n'aho biherereye, mu kwishyura imisoro bikamufasha vuba vuba.

Mu Rwanda hari inyubako nyinshi cyane zikorerwamo ibikorwa byo kuvunja, kuvunjisha amafaranga, amanyarwanda waba uyafite bakaguha amafaranga y'amanyamahanga urugero ni nk'amadolari y'Amerika n'amayero y'i Buraya.

Intebe ziteretswe ku muhanda aho bigaragara ko ziri gucuruzwabe ni intebe enye, hagati harimon ameza akozwe na yo mu giti, ikinyabiziga gitwara ibiribwa n'ibindi bikorwa mu kujyana ibintu babivana ahantu hamwe babijyana ahandi.

Inyubako ndende igeretse igiye irimo ibyumba, n'andi h'ubwogero bwa kizungu, buri hanze n'imitaga yo gutwikira abantu izuba n'intebe.

Inzu ndende igeretse y'amagorofa irimo ibyumba n'ahantu ho kurira, munsi haho hariho imitaka yo kuruhukiraho ibayatwikira izuba n'intebe zo kwicaraho.

Ibigo by'imari biri mu rwanda bifasha abantu mu buryo bwo kwivuza, no gufasha abantu mu gihe bagize ibyago mu buryo bw'ubushobozi bw'amafaranga, cyangwa se aho kubafasha kugura amazu yo guturamo.

Ni uburyo leta y'igihugu cy'u rwanda yashyizeho yorohereza abaturage mu buryo bwo kubaha inguzanyo bakabasha kwiteza imbere mu buryo bw'imibereho n'imikorere n'iterambere rirambye.

Hari ibigo byinshi by'imari n'imigabane bikunda gutanga inguzanyo ku baturage, ku bigo biciriritse n'ibini, kubafasha mu kwiteza imbere batanga inguzanyo.

Inzu y'amagorofa menshi kandi maremare igeretse ihuriramo n'abantu bagiye batandukanye haberamo ubucuruzi leta ikunda guhaza ihacungira umutekano kugira ngo hatagira uhura n'ikibazo.

Ni amazu y'ubucuruzi akorerwamo n'abantu ba batandukanye urugero nka ishema ati senta, ni umuntu ufite ubucuruzi bukorerwa ahantu ku muhanda, abamotari batwaye abagenzi.

Mu Rwanda hari ahantu henshi hakorerwa ibikorwa byo kohereza amafaranga, uyoherereza abantu bari hafi yawe cyangwa bari kure kandi no kubitsa no kubikuza, bigafasha kwihutisha uburyo bwo kwishyura.

Ni abantu benshi cyane bafasha abantu mu kubitsa amafaranga bayashyira ku ma konti yabo bayabikuza, kohereza abantu amafaranga, bakanayakira nta kibazo kandi bitekanye, bikoroha kandi byihuse.

Mu Rwanda hari inyubako nyinshi zikorerwamo ibikorwa byo kubitsa amafaranga, kubikuza, bigafasha abantu kohereza amafaranga, abantu bari kure n'abantu bari hafi, ukaboherereza amafaranga mu buryo bw'ikoranabuhanga.

Mu Rwanda hari ahantu henshi hakorerwa ibikorwa byo kubitsa amafaranga uyohereza ahandi bimwe bifasha abantu mu kwihutisha imirimo yabo bikihuta kandi ntawe bigoye mu buryo bw'iterambere ry'igihugu.

Uburyo bwa kijyambere bufasha abantu kuba wabasha kugura ibikoresho bimwe na bimwe ubiguriye ku rubuga nkoranyambaga bikaba byakugeraho nta kibazo kandi byoroshye buri wese yanabyikorera.

Ni uruzitiro rugiye rurimo inyubako, harimo ikinyabiziga gitukura gifite ibiziga by'umukara, hariho ibyubakwa, harimo n'indabo n'ibiti birimo.

Bifasha abantu kububakira amazu y'ubukode abanyamahanga, abaturarwanda n'abanyarwanda bakunda kubamo bakabafasha kuyabubakira bakanayabahereza bamwe na bamwe bakayakodesha by'ubukode bw'igihe gitoya .

Mu Rwanda hagiye hari ibigo by'imari bifasha abanyamahanga n'abanyagihugu mu gihe bataba bahari bakabafasha kububakirwa, kwiyubakira ibikorwa remezo harimo amazu, amacumbi n'amahoteli

Ahantu henshi hagiye hatandukanye bacuruza ibintu byongera ubwiza ku mubiri bikunda gukoreshwa kenshi n'abakobwa n'abagabo bake bake bakunda kubikoresha mu bifasha kongera ubwiza no kwigira neza.

Ni inyubako ndende igeretse, ikorerwamo ubucuruzi, akenshi hakorerwamo amasoko amwe ya kijyambere azwi nk'aya kizungu, aho usanga ibintu biteretse ku murongo, iby'umutuku bijya ukwabyo n'iby'umuhondo bijya ukwabyo n'ibindi.

Inyubako ikorerwamo igikorwa cy'ubucuruzi icuruzamo ibintu byo kurya kandi akaba ari n'isoko rya kijyambere rifasha abantu kubona ibyo bakeneye byoroshye kandi byihuse bitabagoye.